Abaganga bose mbere y'uko bajya gusuzuma bagomba kuba bambaye iniforomo bagira ga zo mu ntoki, mu rwego rwo kwirinda ko bakanduzwa n'abarwayi bagiye gusuzuma, rero buri wese aba agomba kwambara ga mbere y'uko ajya mu kazi.

Mu bitaro haba hakenewe imiti kandi imiti iba igomba gutumizwa ikava ahantu hagiye hatandukanye, hari imodoka zabugenewe zishinzwe kuzana imiti, zikayishyi kwa muganga muri buri bitaro, hakagenda hagezwa imiti.

Ubuzima bwo mu mutwe bwitabwaho cyane, hari abantu babugenewe bashinzwe kuganiriza abantu bafite ibibazo bijyanye no mu mutwe, barabafasha rwose haba hari ibigo byabugenewe, bakabasha kuba nabo bameze neza.

Amavuriro akenerwa buri hantu hose buri gace kaba kagomba kubamo ivuriro byibura rimwe kuri buri Mudugudu kuko iyo umuntu arwaye aba agomba kwihutira kujya aho ahantu hamwegereye h'ivuriro kugira ngo babashe kumuha imiti.

Abantu bagiye ku ivuriro bagira ahantu habugenewe bicara bakahategerereza, buri wese akagenda bitewe n'igihe yahagereye, bahereye ku wa mbere, bakajya bagenda buri wese uko yaje.